Mu cyumba cy'inama, bagaragara nk'abantu bari gufata imyanzuro runaka, bitewe n'icyo bari kwigaho, ubona ko buri wese akurikiye cyane, ndetse amazi abateretse imbere.

Umwana mwiza cyane w'igikara cyiza, ku gapira keza k'ubururu ndetse n'akajipo keza k'ubururu, umwana akaba yambaye akanifomu keza cyane, akaba ari gukaraba, dore ko gukaraba ari umuco mwiza Nyarwanda.

Imeza nziza cyane yicaweho n'abantu bane ubona yuko ko bari kuhuzahuza ibitekerezo baganira ku ngingo runaka.

Amagambo atatu yose yanditswe mu kirimi cy'icyongereza akaba afite ubusobanuro ndetse aya mabara akaba yandikishijwe umukara ndetse iryo mo hagati akaba ari ryo ryonyine ryandikishijwe.

Inyubako nziza cyane iri mu mujyi wa Kigali, ikaba yanditsweho amagambo yo mu Cyongereza maremare cyane ndetse ubona yuko inyubako ari nziza cyane, ubona ko ifite n'uruzitiro rwiza mu mabara y'ubururu ndetse hashamikiyeho n'ibiti.

Umugabo w'umusaza ndetse n'umugore w'umukecuru, bigaragara yuko basheshe akanguhe, bakaba bari kwitabira gufata imiti ndetse ubona yuko banishimye.

Abantu babiri umwe w'umuganga ndetse n'undi bigaragara yuko ari umurwaza, mu maso yabo bafite akamwenyu bigaragara yuko muganga yishimiye umurwayi.

Icyumba kigizwe n'ibikoresho bigiye bitandukanye cyo kwa muganga. Harimo uburiri umurwayi aryamaho mu gihe bari kumukorera operation ndetse n'utubati tubikwamo imiti.

Muganga mu myambaro ye myiza, akaba ari mu cyumba kigiye kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, utubati, imiti, amamashini bakoresha mu buvuzi bwabo ndetse n'indi miti igenda yifashishwa.

Kimwe mu byumba hakorerwamo igikorwa cyo gutanga amaraso hari abantu hirya ubona y'uko barimo gutanga amaraso, hino aha ngaha imbere urabona yuko hari amashashi babitsemo amaraso bitegura kujya kuyashyira ahabugenewe.

Cyo kwa muganga bitewemo irangi ry'umweru ndetse n'intebe ebyiri imwe yicarwaho n'umurwayi ndetse indi yicarwaho na muganga, hirya y'aho hari imiti ndetse n'ibyuma byifashishwa kwa muganga.

Kimwe mu bigo nderabuzima cya Tabagwe ubonako imbere yaho hari abarwayi benshi bigaragara y'uko ikigo nderabuzima kiba cyitabiriwe n'abantu benshi, ubona ko kiri mu kazi gikora ibishoboka byose kugira ngo hitabweho ubuzima bw'abarwayi.

Urebeye mu madirishya urabona inzu hirya ndetse hejuru yaho hakaba handitseho inzu y'ababyeyi, hino urabona igiti, hirya y'iyo nzu urabona ikigega mu mabara y'ubururu, hasi hano imbere y'inzu y'ababyeyi, urabona agapasiparume keza ndetse n'uturabo tw'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Inyubako ndende cyane ikikijwe n'amashami ndetse n'ibiti, hakaba hari amayesikariye, ndetse imbere y'iyo nyubako hakaba hari abantu babiri, umwe wambaye agapira k'umutuku ndetse ahagaze, undi bigaragara y'uko ari kugenda, akaba yambaye agashati k'umutuku ndetse n'agapantaro k'umukara.

Umuganga wambaye imyenda ye myiza cyane y'umweru, aho ari gutunganya icyuma gicishwamo umubiri w'umuntu ndetse akagaragara buri kimwe cyose cy'umubiri we.

Amazu meza cyane agera muri atatu, ndetse kuri ayo mazu hakaba hagiye hari abantu, umubare mwinshi bagiye bameze nk'aho wagira ngo hari icyo bategereje, cyangwa se ikindi cyahabazanye.

Imashini ifite amabara y'umweru n'ay'ubururu, ifite sikirini imbere aho ugenda ureba ibirometero umajije kugenda, ifite akantu hasi k'umukara kameze nk'agatapi ugenda wirukankaho bitewe na revo ugezeho.

Abantu bane ndetse n'abandi bagiye batandukanye hasi hari umuntu uryamye bigaragara yuko bari mu myigire cyangwa uwo muntu akaba afite ikibazo, umuntu ndetse akaba aryamye mu mashuka y'ubururu.

Umuganga mu myambaro ye isanzwe y'akazi mu itaburiya y'umweru ufashe akaguru, akaguru bishobora kuba wenda kajemo imvune ari kukagorora neza ndetse anakamasa.

Bimwe mu byuma bishinzwe kureba nk'indani mu mubiri w'umuntu aho byafashe amafoto agaragaza ubwonko bw'umuntu ukoba bumeze ndetse n'imitsi iba mu mutwe...

Umusore usa nkaho wakoze umubiri bimwe mu bikunze kujya bivugwa, bona urubyiruko aho ari kunywa amazi ndetse yambaye agapira keza cyane bigaragara yuko ari mu kiruhuko amaze gukora siporo.

Kimwe mu byumba byo kwa muganga bakoreramo akazi kabo, intebe wicaraho uryamye ndetse n'itara ryiza cyane hejuru kugira ngo muganga akwitegereze neza arebe ikibazo ufite.

Umudamu utagaragara neza mu isura, ako bigaragara yuko afite uruhu rw'inzobe, uri muri siporo, akaba yari ayifashe akaguru ke bigaragara yuko ari kwinanura. Bumwe mu buryo bukoreshwa muri siporo.

Ibiti ubona yuko bisa icyatsi ndetse bikaba byifashishwa mu miti ya kinyarwanda dusanzwe tuzi igiye itandukanye bitewe n'icyo urwaye.

Amababi meza akunda gukoreshwa mu miti ya gakondo ndetse hakaba hari n'akandi gapapuro, ndetse byose bikaba biri ku gikaratasi cy'umukara.

Akacupa k'imiti k'umweruru, kariho ishusho n'igisiga ndetse n'amabara y'ubururu mu magambo yanditswe mu cyongereza afite ubusobanuro bwa viziyo ihoraho.

Bimwe mu bimera byinshi bigiye bitandukanye aho bihuzwa bigakorwamo umuti wa kinyarwanda w'umwimerere ufasha kuvura indwara zigiye zitandukanye.